Ibikoresho bikoreshwa n'abarimu bigisha amashuri y'inshuke mu buryo bwo kubigisha amabara, kubigisha ibishushanyo, kubigisha guca imirongo ndetse n'ibindi.

Ibikoresho bikoreshwa mu kwigisha abana biga mu nshuke, bakabifashishwa na mwarimu wifashishijwemo na bo, bakabikora neza.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke, abanyeshuri, imiryango ibiri n'abanyeshuri bari hafi aho ngaho, ikigo kigari, hari abari hirya, hari abari jaride ndetse n'ibindi byinshi cyane bigaragaza ko ari ikigo kirimo n'ibti.

Ibikoresho byabugenewe bikoreshwa mu banyeshuri b'incuke bigakoreshwa n'abarimu babigisha mu rwe rwo kwiga amabara atandukanye, amabara y'ibigina, amabara y'umuhondo, ubururu, umutuku n'icyatsi ndetse nandi mabara bifashisha bafasha abana biga mu inshuke.

Ikigo cy'amashuri kigisha abana bo mu nshuke, gifite n'ibirangantego byabo, abana bari kugenda ibishushanyo bishushanyije kuri icyo kigo cy'amashuri, ibyumba by'amashuri ishuri risakaje amabati atukura, rifite ibyumba bine.

Ibishushanyo, ibibumbano byerekana amabara, bikerekana abantu, bikerekana ukuntu abantu bababara ndetse n'abantu, bikifashishwa mu myigire y'abana bo mu nshuke.

Abanyeshuri biga mu nshuke, abarimu babafasha, ibikoresho bakoresha bifashisha mu buryo bigamo bw'inshuke, bakicara hasi bagakina, bakiga binyuze mu mikino, bagasangira, bakishima bakaririmba ndetse baniga.

Igikoresho gikoreshwa n'abana biga mu nshuke, wenda babashyiramo ama amazi, babajyaniramo igikoma, benshi dukunda kwita gurude, icyo gikoresho gikoreshwa.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, bari ku byicundo aho bakora siporo bagakina mu gihe bari mu gihe cyo gukina bakishimira hagati yabo akabyina, bagaseka, bakajya ku bintu bibatwara bava hamwe bajya ahandi

Abanyeshuri bo mu nshuke n'abarimu babo bari kubitaho bakabafotora bambaye utuntu, udukinisho mu mutwe ndetse n'ibindi bahagaze imbere y'ishuri hari abayobozi bamwe bari kubafotora, abarimu bagenzi babo bose bari hamwe bari gufotora abana bo mu nshuke.

ibyapa by'ibishushanyo bigenda byereka abanyeshuri biga mu ncuke bibafasha kwiga. Imfashanyigisho zabo zikagenda igishushanyo kigaragaza iki bakagenda bigisha babireka, igishushanyo cy'imbwa, gishushanyo cy'injangwe, igishushanyo cy'umuntu n'ibindi bishushanyo.

Ibikoresho bikoreshwa mu banyeshuri b'incuke, byakoreshwa nk'imfashanyigisho, bigakoreshwa mu buryo bwo gushushanya ku mpapuro zabigenewe akaba ari amakaramu ndetse n'ibikoresho by'amakaramu y'amabara agiye atandukanye bakoresha kugira ngo bigishe abana bakabikoresha n'imfashanyigisho.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri y'incuke, bigaragaza amagarama, bigaragaza ibipimo, ni ibipupe byifashishwa n'abanyeshuri biga mu ncuke, bakabikoresha ndetse n'abarimu babo bakabikoresha.

Ibikinisho by'abana bo muri mu nshuke bagenda bagendaho, birimo utuntu dufite amabara menshi y'imihondo, ubururu, n'icyatsi, utuntu bakinisha bagakina hasi kugira ngo bishime abana bamwe.

Ibishushanyo, ibipupe n'amabara afasha abanyeshuri bo mu nshuke, kwiga kumenya inyamaswa, kumenya amabara, kumenya ibishushanyo, kumenya impande, bifashishije ibishushanyo.

Ibikoresho byo gukoreshwa mu mashuri y'inshuke byo kugenda abana bumva iminyenga, bakabyina, bakicunga, bakagenderaho, bakishima cyane ndetse n'abantu benshi baba barahari baje gufasha abana kugenda kuri ibyo byicungo, hafi aho ngaho hari ishyamba, ababyeyi, abapapa, abamama.

Depo y'ibicuruzwa by'ibiribwa mu byo guteka ibirungo, aho barangurira umuntu akarangura agatwara kawunga, umuceri, amavuta yo guteka, ibirungo za redigoludi, amajuise, amaji milinda ndetse n'ibindi.

Abana benshi biga mu mashuri y'inshuke, barimo bicaye hasi ku mikeka, bari kurangamiye abarezi babo, ababitahoho, harimo ababyeyi bateruye abana ndetse n'abandi barimo mu bana b'inshuke bari kubitaho.

Igishushanyo cy'umwana ari kumwe n'inyamaswa n'ibishushanyo by'inyamaswa zigiye zitandukanye, akaba ari imfashanyigisho y'abana bo mu ncuke yabafasha kugira ngo amenye amazina y'izo nyamaswa, uburyo zikora, aho ziba, mwarimu akaba yabyifashisha nk'imfashanyigisho yafasha abo banyeshuri.

Siporo z'abanyeshuri bakiri batoya biga mu mashuri abanza, bari kumwe n'umubyeyi afite balo barakina bari kugenda mu muhanda, bahetse ibikapu baturutse ku ishuri, bari muri siporo mu buryo bwo kugorora umubiri.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ibikoresho bikoreshwa mu buryo bwo guca imirongo, mu guhanagura, ndetse hakaba hari iby'amakaramu, amarati, uducamurongo, gucuru uruziga n'ibindi.

Ibikoresho bikoreshwa ku ishuri harimo amakaramu, amakariyo, amagome, ibikoresho bikoreshwa mu banyeshuri ba pirimeri, abo muri garidiyene cyangwa nasari ndetse n'abo muri segonderi babanza.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ni inzu cyangwa ishuri biririmo byinshi bigiye bitandukanye, ni ibipupe, ibikinisho n'ibindi byinshi bikoreshwa mu banyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako y'amashuri mashyashya amashuri abanza, igaragaza uburyo ki yubatsemo.

Aburezi bw'amashuri abanza, abanyeshuri bandika ku kibaho, abanyeshuri uburyo baba bigamo, abanyeshuri buri wese amahereza umukoro we akandika, abanyeshuri uburyo bashoboye gukora.

Ibikoresho byo mu bigo by'amashuri abanza ibikoresho bakoresha ibishushanyo by'inyamaswa utubati babikamo ibintu aho babika ibitabo ahantu abantu bose baza bakabona amabara bakabona n'ibindi byinshi.

Igororero ry'abana, aho binjirira bakagenda bakabasaka, aho binjira kugira ngo bagere mu igororero ry'abana ba Nyagatare aho baba babagororera.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza, harimo amarate akoreshwa baca umurongo imikasi, amakaramu, ibikoresho byo gushushanya bagaragaza amabara biga, ibi byose n'ibikoresho babakoresha bifashisha mu mashuri abanza.

Kwigisha abanyeshuri muri pirimeri mu ishuri uko biba bimeze, abarimu n'abanyeshuri, amashuri abanza.

Ibikoresho bikoreshwa muri mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, ibikoresho bigaragaza imibare, kubara, bikagaragaza amabara, bikagaragaza uruziga n'ibindi bikinisho bikoreshwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'inshuke.

Amashusho akunze kugaragara mu bitabo by'abantu biga muri pirimeri bw'amashuri abanza agaragaza uko biga, cyane cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda n'urw'icyongereza, aho ari imfashanyigisho bakoresha.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ibikoresho bigiye bitandukanye harimo amakaramu, hakaba mu mashini abafasha mu masomo y'imibare, hakaba amarati yo gucisha imirongo ndetse n'ibindi bikoresho bifasha abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Ni ikigo cy'amashuri gifite imiryango itatu, umuryango wa kabiri uhagazemo abanyeshuri ndetse n'abarimu, umuryango wa mbere urakinguye, urimo abarimu, wubakishije amabati y'umutuku, ufite amarangi y'ubururu, amarangi y'icyatsi ndetse ku ruhande hakaba n'ikirangantego cy'icyo kigo cy'amashuri abanza.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza bigakoreshwa mu buryo bwo guca umurongo, hagakoreshwa mu buryo bwo guca uruziga, bagakoresha ibyo guhanagura, hakaba hari amarati ndetse na buwate matematicale yo kubitwaramo.

Ibikoresho mfashanyigisho zikoreshwa mu mashuri abanza, byerekana icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, icyiciro cya gatatu, icyiciro cya kane kugera ku cyiciro cya gatanu, ahari umwana uri gukora iki ikintu cyo kugenda agatangira agikora, agatangira agaragaza ibikoresho mpaka agezeho aho igikoresho cyarangiye gukorwa.

Imfashanyigisho ziboneka mu bitabo by'amashuri abanza bakabikoresha bigiye bitandukanye, bigaragaza imibare y'ibishushanyo, abana bakabikoresha mu gihe bari kwiga.

Ikigo cy'amashuri abanza, ni ku muryango hari icyapa kigaragaza ko ari icyo kigo, hakaba ibiranga ikigo, ni umunyeshuri, yambaye agapfukamunwa, ari kwinjira mu kigo, ku muryango w'ikigo, ku marembo y'ikigo, imbere hari n'undi munyeshuri.

Amashuri abanza n'ayisumbuye ibirangantego byaho, bigaragaza amahame, bigaragaza kirazira, bigaragaza kivugo cy'ishuri ndetse n'ibindi byose biranga icyo kigo cy'amashuri abanza cyangwa se amashuri yisumbuye.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza, ibikoresho byo gushushanya ibikoresho byo gukata, ibikoresho amakayi, imikasi amakaramu, amakereyo byose bigakoreshwa mu mashuri abanza, mu buryo bwo gushaka imfashanyigisho.

Imfashanyigisho z'ibishushanyo ndetse n'amashusho aboneka mu gitabo cy'amashuri abanza, agafasha abanyeshuri kwiga mu gihe bari kwiga. Hakerekanwa igishushanyo cya mbere, igishushanyo cya kabiri, igihushanyo cya gatatu n'icya kane, mwarimu akabyifashisha abaza ibibazo abanyeshuri bakarushaho kubisubiza bagendeye ku mashusho bagenda babona.

Abanyeshuri biga muri segonderi, bari kuganira ku byateza imbere ikigo cyabo. Bagatanga ibitekerezo ndetse bakazana n'ibibazo.

Amashuri yisumbuye, imiryango y'ubwiherero, buryo ki bagenda babonamo amazi ndetse n'iyindi miryango iboneka mu mashuri yisumbuye.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye batatu baricaye, bari mu itsinda, ubu barabiganiraho barafite ibyo bari kuganiraho bijyanye n'amasomo ndetse hari n'abandi bicaye inyuma yabo, benshi cyane mu ntebe z'umweru.

Ikigo cy' amashuri yisumbuye, kigaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibigega, bigaragara inyubako y'ikigo ukuntu imeze, ibintu byose ukuntu biba bimeze mu kigo cy'amashuri yisumbuye.

Ikirangantego kigaragaza ikigo cy'amashuri cya Gatumba hayi sikuru ibirometero biba bisigaye kugira ngo umuntu agereyo kikagaragaza ibiranga icyo kigo ndetse n'ibindi bintu bigaragaza igihano icyo kigo cya segonderi.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Rukomo, Akarere giherereyemo n'ibikaranga, ku buryo cyakwerekeza ahantu, kikaba kiri ahantu ku muhanda.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, gifite imiryango, imbere yaho hari abantu, mo imbere harimo kizimyamoto, amatara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ikigo cy'amashuri yisumbuye.

Abatekinisiye baza gufasha ku bijyanjyanye n'amashanyarazi, abakozi ba REG mu bigo by'amashuri kugira ngo babashe kubyitaho bamenye ikibazo amashanyarazi mu kigo cy'amashuri afite.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bicaye ahantu mu kibuga harimo ibiti byinshi, ubona ko baje kubabwirirwa ibiganiro imbwirwaruhame, hari ibyo baje kubabwira ndetse na bo bahanze amaso bari kubatega amatwi.

Ikigo cy' amashuri yisumbuye, ibyumba by'amashuri bihari bibiri, birimo bigendamo n'abantu.

Intebe, ameza bikoreshwa muri kaminuza y'u Rwanda ndetse biteretse muri sale cyangwa mu ishuri bigiramo.

Inyubako ya kaminuza y'u Rwanda, igaragaza icyumba winjiyemo n'aho ugiye kugira ngo ubashe kutayoba ugenda ufite umuryango mo imbere ukomeza ukagenda.

Abanyeshuri bo muri kaminuza, bicaye bari mu kizami bari gukora ikizami bafite ibipapuro by'kizamini aho bari busubirize, bose bicaye neza muburyo bwo gukoramo ikizami.

Kaminuza, inyubako za kaminuza ibiyiranga jaride n'izindi nyubako zose zikikije kaminuza y'u Rwanda.

Inama y'abantu biga muri kaminuza ndetse n'abiga imyuga, bihuje bari kuganira buri wese aba atanga ibitekerezo bye uko bigenda uko bikomeza bigenda gahoro gahoro abantu buri wese avuga uko abyumva.

Ahantu abantu baparika imodoka, muri kaminuza y'u Rwanda, abanyeshuri baparika amagare baba baje kwiga, hakaba n'indabo zihateye, hubakiye n'amabati n'inkingi zihafashe, hepfo hari n'ibiti.

Abanyeshuri bavuye kwiga abanyeshuri bo muri kaminuza batashye, bageze ku marembo bataha, bari ahari umusekerite, ku kazu ka abasekirite, hakaba n'utuzu two gushyiramo imyanda, indabo n'amapave.

Abantu abakobwa batatu ndetse n'umusore umwe, bambaye imyenda yabigenewe igaragaza ko basoje amashuri yabo yo muri kaminuza, barabyishimiye bari kwifotoza, iruhande rw'ahantu habereye ibirori hari amatente y'umweru n'ubururu.